Ahantu hitaruye umugi hari abana bari gukina bari mu kigero k'imyaka irindwi kuzamura, bari gukina mu ruziga umwarimu wabo asa nkaho abarimo hagati.

Ibiro birimo amakayi, ibitabo, agakombe karimo amakaramu, n'akandi gakombe karimo, amakaramu atsindagira, harimo n'imashini ya mudasobwa, inyuma hari intebe.

Ishuri isa nkaho ari iry'incuke ririmo abana bato, igihe cyo gutaha cyabo gishobora kuba cyageze, kuko umwe ari kumwe n'umubyeyi uri kumufasha guheka igikapu cye yazanye ku ishuri.

Urupapuro rushushanyijeho amashusho rugaragaza uburyo bwo kwirinda indwara ya marubage; hariho ibimenyetso n'uko wayirinda ndetse n'abafatanyabikorwa muri urwo rugendo rwo kwirinda iyi ndwara.

Igipapuro kimanitse ahantu hasa nk'aho ari mu ishuri cyanditseho ubwoko bw'ubutaka mu rurimi rw'Icyongereza. Hakaba handitseho ubwoko bw'ubutaka butatu mu Cyongereza ari bwo sand soil, loam soil na clay soil.

Abanyeshuri bari mu ishuri, umwarimu wabo abahagaze imbere ari bigisha, yifashishije mudasobwa. Banyeshuri barasa nkaho biga muri kaminuza, kuko nta mpuzankano bambaye.

Icyumba kirangaye, hamanitsemo imyenda, urufunguzo rukaba ruri mu rugi, hasi hacometse telefoni kandi hasi na none aho telefoni iteretse, hari ibikoresho akoresha mu gukora isuku.